Mu ishuri abana basigaye bahabwa igikoma, abana biga mu irerero ndetse no muri garidiyene kugira ngo barinde kugira inzara kugeza batashye, rero ni ibintu byiza leta y'u Rwanda ishyizemo ingufu kugira ngo abana bakurire mui shuri, kuruta gukurira hanze.

Ku bigo by'amashuri usanga abana bafite imikino itandukanye ndetse na jaride n'indabo ziteye ku murongo kugira ngo mu gihe cyo kuruhuka basohoke, bidagadure, bakine, maze basubire mu ishuri baruhutse kugira ngo bongere bamenye ibindi biga bafite umudendezo.

Kera ku ishuri twakoreshaga icyuma aho bavuzaga inzogera maze buriwese, akamenya ko agiye gukina cyangwa se gutaha, aho usanga mu bigo bya kera bakoreshaga inzogera, aho gukoresha sonore nkaho zigezweho muri iki gihe, rero ni ikintu cyiza cyafashaga abanyeshuri kugira ngo bamenye igihe cyo gutaha no gukina.

Iyo abanyeshuri bagiye ku ishuri, mu gitondo babanza bakajya ku murongo, aho abarezi bababwira amabwiriza ndetse bakabakangurira no kugira umuhate mu byo bakora, ugasanga abanyeshuri bibafasha mu kugira ubumenyi ndetse no kwirinda ibibarangaza.

Ibigo by'amashuri usanga hariyo intebe nziza ndetse z'ibyuma, aho zimara igihe kinini ntawe uzihinduye kubera ko aba ari igikorwa karemano kizamara igihe kirekire, bitandukanye na kera aho umunyeshuri yigaga yicaye munsi y'igiti.

Mu byumba by'amashuri ya kaminuza, uba usanga hari ibitabo abanyeshuri basoma ndetse n'ababahagarariye, urugero nk'abarimu babigisha bafite icyumba cyabo kibitsemo ibitabo bitandukanye kugira ngo bizere ko umutekano wabyo umeze neza kandi bamenye ubumenyi.

Inama ahangaha yari iy'abanyeshuri, aho bari kuganirizwa n'uburezi ku buzima bw'imyororokere. Usanga abana barimu iki kigero cy'imyaka cumi numunani nacumi nirindwi barererwa mu kigo cya segonderi, baba bafite ikibazo cy'umubiri cyangwa se batasobanukiwe uburinganire n'ubwuzuzanye.

Mu cyumba cy'amashuri abana iyo barimo bakora ibizamini, uba usanga batuje bacecetse kandi nta muntu ureba ku ruhande mu buryo bwo kwirinda gukoperana, rero uba usanga n'abarimu bahagaze bareba niba hari ubigerageza kugira ngo bamusohore mu kizamini.

Ibyumba by'amashuri ya kaminuza biba birimo ikoranabuhanga riteye imbere, aho umunyeshuri afite intebe yicaraho kandi areba imbere yisanzuye, naho bitandukanye na kera, umunyeshuri agombaga kuba afite ruhago, ikaye n'ikaramu, bigatuma atiga neza nk'ubu ngubu.

Abanyeshuri biga ibintu bijyanye n'ubuganga, bagomba kumenya ikoranabuhanga kugira ngo bajye bamenya uburyo basuzuma abarwayi, ntabwo waba uri umuganga utazi ikoranabuhanga, ntabwo wavura umwana ngo amenye icyo umuvura cyangwa se ngo umufashe mu buzima bwa buri munsi bwe.

Ku bigo by'amashuri haba hari ibyumba bitandukanye by'ubwiherero, aho abakobwa bagomba kujya mu ubwiherero bwabo n'abahungu bakajya mu bwiherero bwabo. Mu buryo bwo kwirinda ko hatuma umwe urunguruka undi kuko bafite amatsiko yo kumenya uko mwe ateye n'undi ateye, rero byatuma babangamirana.

Ibyumba by'amashuri uba usanga bifite aho umuntu acomeka imashini cyangwa se amatara bitewe n'uko umuntu aba ashobora kwiga butinda bucya. Ni byiza ko umuntu wese ugiye mu cyumba cy'amashuri agomba gucana itara kugira ngo abone neza.

Ishuri rikuru rya kaminuza riba rifite ibyumba bitandukanye, aho usanze iyo ugiye nta muntu uhari, haba hari agatebe ku ruhande wicaraho ukamutegereza, kugira ngo aza aguhe icyo ushaka, urugero, iyo ugiye kureba mwarimu mufitanye ikibazo cy'amanota.